Ni byiza cyane ko uruganda rugomba gukora ibintu byinshi bitandukanye. Rwajyaga rwandika ku mifuka cyangwa ku bimvirope, ibiranga ibyo bintu birimo imbere. Nk'uko mu Bushinwa babigenza, bashyiraho ibiro, bashiraho amazina y'icyo kintu, bagashyiraho n'igihugu cya bo.

Ibishingiriroga. Tubishingiriraga mu murima twateragamo ibishimbo iyo byameze kugira ngo bikure bikurega neza!

Ibigori bahinga ku murongo, kijyambere, byera ibigori byiza, kandi iyo bagiye kubisarura, biba bishimishije.

Gutera ibitunguru bigiraga umusaruro mwinshi cyane kandi no ku isoko birahendaga, ni umushinga uba ukomeye cyane kandi ukundwaga.

Turagambaga, tugasekaga, tukagiraga ubumwe, kandi iyo mukuru agiye kugamba turamwubahaga.

Uzi? iyo uriye ibivoka byinshi, bifite ibivuta byinshi, urwara umwijima. Ntimukajye murya ibivoka byinshi, mutazarwara umwijima.

Guhinga kijambere duca imirongo, tugacukura icobo, tugashira ibirayi mu rwobo kandi tugakorera hamwe kugira ngo umusaruro uboneke neza.

Urugori rwa tamira ni rwiza ni runini iyo uruteye rwera bibiri cangwa rugaheka bibiri, warujana ku isoko rugagura agafaranga genshi gatandukanye n'ag'ibindi. Tugure urugori rwa tamira.

Tugomba gukorera hamwe, buri wese akazana ibibaraga bye, ufite ibibaraga byinshi akabizana, ufite ibibaraga bike akabizana, kugira ngo tuzamure umusaruro guhagije, maze tuzabone agafaranga kenshi ku isoko, oye.

Ururima rw'igikoni rugomba kuba rurimo ibihwagari, ibishyimbo, ibitunguru, karoti, dodo, rurimo ibintu byinshi birinda ingwara.

Ibishimbo bya Kinigi bigira amarongorwa y' umutuku. Aba ajyoshye ku ibirarayi by'amaganda ndabigutuye! Uzabiteke maze wumve ukuntu biba bimeze. Umva biba ari sawa.

Gutondeka ibifuka ku murongo mwiza kandi bigiraga isuku, ubanzaga ibibaho hasi, ukaba ukurikizaho ibifuka ku murongo, ku murongo bigakurikiranaga, tugomba kubyitaho.

Utu tubuto tw'ibihaza ni twiza cyane. Uziko turyoha dukaranze we! Kandi ngo dutuma umubiri igira mavuta meza kandi umubiri ukamera neza. Nta mwari mubizi ga amwa? Njyewe narabiriye, ibi bibuto by'ibihaza.

Bimwe mu mafumbire umuntu aterana harimo ibitoto, bituma ibirayi bikuraga neza, kandi bikagira ku umusaruro uhagije.

Kugosora ni byiza. Bituma tubika ibyo kurya byacu neza, byaba ibishyimbo turobanuramo imyanda, n'ibishyimbo byapfuye kugira ngo tubone imbuto tuzatera mu ntabire mu gihe kizaza.